Uburoso bwinshi abantu bifashisha biborosa mu menyo bizwi nko koza amenyo dukoresheje umuti wa korogati. Koza amenyo ni byiza kandi biturinda umwanda n'impumuro mbi mu kanwa.

Ni isoko, rigaragara nk'aho bacuruzamo ibintu bitandukanye, imbere yacu turahabona indagara, amavuta, akawunga, isukari, umuceri n'ibindi bigiye bitandukanye byinshi, hirya yaho turahabona imyenda imanitse, bigaragara y'uko ari isoko ricururizwamo ibintu bitandukanye.

Abantu benshi bahagaze aho twa kwita nk'aho ari ku ruhimbi. Barimo bararirimba bamwe bafite indangururamajwi, abandi bari kuririmba ntazo bafite. Gusa ubitegereje neza ubona yuko banezejwe n'ibyo bari gukora.

Icyumba kirimo uburiri ibitanda bibiri bishashe neza, amashoka y'umweru ndetse n'indi shuka irimo hagati, bikagaragara n'imisego ndetse urabona ko ari ibyumba bisa neza, kandi byegeranye.